Abasirikare baducungira umutekano, iyo bari mu kazi kabo baba bambaye imyenda y'iniforume isa bambaye n'amakasike kandi iyo bari kugenda bari mu kazi nta muntu ugomba kubanyuramo hagati kuko aba ari amakosa. Ntabwo umwanzi yadutera kuko abasirikare bahora bari redi biteguye kurwanya uwo mwanzi.

Mu gihugu dufite abapolisi baducungira umutekano; batozaga n'imbwa mu kugira ngo nazo zibafashe kuducungira umutekano, imbwa zigahunahuna aho zabona nk'imitego abandi batezeho zikabitegura kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze kugira umutekano gurambye.

Abapolisi bakoreraga iyo imodoka zagize impanuka mu muhanda cangwa zitujuje ibyangombwa bazitwaye, barazifataga bakazijana ku buyobozi bwa polisi ba nyiri izo modoka bakazaja kuzifatayo ari uko bujuje ibisabwa, nk'iyo badafite ibyangombwa bihagije byo kuzitwara cangwa se izo modoka zaba zidafite i zidafite ubwishingizi.

Ubuyobozi bwa Leta hirya no hino ku biro bya Leta mu nyubako zayo, habagayo ikoranabuhanga zitwa kamera ni icyuma kirebaga abantu binjiye muri izo nzu n'abaje hanze n'abatari bagera mu nzu, kirebaga abantu bose bahaje, ibyo bari gukoreramo byose, abaje uko bari kugenda, ibyo bari gufataho. Habaga hari umuntu ushinzwe kubarebera ku kintu kimeze nka televiziyo ibyo barimo byose.

Mu buyobozi bwa leta habagamo ibirango by'Igihugu n'imitako zibagamo zisa n'idarapo ry'u Rwanda. Kugira ngo n'abanyamahanga nibahagera babone ko aho bari ibiro by'abayobozi bacu. Dutangaga ibitekerezo abayobozi bakadusobanurira n'ibyo tudasobanukiwe tukagira ijambo abaturage babaga ku isonga.

Mu Rwanda tugira ikigo cyitwa arasiyesi, gishinzwe gucunga umutekano muri gereza, kugira ngo imfungwa zidatoroka, bakabigisha bakagororoka kugira ngo nibazafungurwa ibihano byabo birangiye, bazongere bagende mu muronko mwiza w'igihugu ugenderaho, ntibazongere gukora ayo makosa baba barakoze.

Inkonjyi y'umuriro yafashe imoto iri gusha, iyo habaye ho ikibazo cy'inkongi y'umuriro mu baturage, tugomba guhamagara polisi, ikaza ikazimya aho hantu hari gusha, igahagarika n'ibyo bintu biri gusha kugira ngo bireke gukomeza gusha, ba nyira byo kugira ngo batakomeza guhomba.

Abasirikare bacunga umutekano w'Abanyarwanda n'ibintu byabo, kugira ngo hatagira abanzi baza gutera u Rwanda rwacu, muri uko gucunga umutekano bifashisha ibikoresho byabo by'imbunda, bakoresha ikoranabuhanga ry'itumanaho byitwa ibyombo, babikoresha bari guhana amakuru, ahantu hose baba bahari, ku mipaka y'Igihugu, mu mashyamba, mu birunga by'Igihugu, hose aho ngaho abasirikare baba bahari.

Mu gihugu, iyo abaturage banyuranyije n'amategeko ga Leta barabafungaga, bakabambika amapingu bakaja kubafunga, igihe cyagera bakaja baraja kuburana bambaye n'ago mapingu. Buri wese akaburana ibyo ashinjwa gukora akabyiregura, yaba ari mu kuri agataha, ataba ari mu kuri akaguma muri gereza bakamufunga.

Mu Rwanda rwacu haje ikoranabuhanga ryo gufotora amamodoka. Ago mamodoka bashizeho ibyuma byitwaga sofiya, ngo iyo umushoferi ahanyuze afite umuvuduko mwinshi, kiramufotoraga abayobozi bakabibona. Ubwo rero abashoferi birindaga kugira umuvuduko mwinshi, kugira ngo iyi sofiya itabafotora. Mu mihanda zitandukanye hose zibagamo.

Gutora abayobozi habagamo kwiyamamaza. Noneho mu gihe cyo gutora bagatonda imirongo, abantu biyamamaje tukagenda turabaja inyuma bitewe n'uwo wifuza ko yakubera umuyobozi. Ukamuj 'inyuma iyo wamutoye. Amajwi iyogabaye menshi uwonguwo ni wubaga yatsinze.

Mu Rwanda abayobozi bagiraga amahugurwa, abayobozi b'igihugu bagiye muri ago mahugurwa buri muyobozi abagafite imashini ye ari gukoresha, batanga ibibazo n'ibyifuzo byabo ku miyoborere y'igihugu kugira ngo nabo bazabwire abaturage uko barema izo nama n'abaturage barusheho gushira mu bikorwa ibyo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere.

Hari ahantu henshi hataragera iterambere ry'imihanda. Aho hantu hatari imihanda iyo umurwaya arwaye kugira ngo bamujyane kwa muganga bamuheka mu kintu cyitwa ingobyi. Ingobyi ni ikintu bashyiramo umurwayi, baba baraboshye nk'ikirago, ariko gifukuye. Abagabo bakajya mu mijishi, abagabo bane. Babiri imbere n'abandi bagabo babiri inyuma, bakajyana umurwaye kwa muganga.

Abanyeshuri bari mu gitaramo bari kuvuza n'ingoma bakoraga ihuriro ry'abanyeshuri bashoboraga kubyina n'abashoboye kuririmba bagakora ibirori bakabyina imbere y'abarimu bakareba ko basigasira umuco nyarwanda.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ibisabo, hakabamo ibyansi byo gukamiramo amata, amata bayashyira mu byansi tukanyweramo, noneho yaba menshi tukayashyira mu gisabo kinini tugacundamo amavuta y'inka tukajya turayisiga tukanayateka.

Mu muco gwacu gwa kinyarwanda tubohaga ibirago, ibyo birago iyo tubiboshe tubyicaragaho, nk' umukobwa urakora ubukwe iyo agiye kwa nyirabukwe ajanagayo ikirago agiye kubasura, yaba yarakoze n'ubukwe bari gusaba no gukwa agatanga ikirago agihaga nyirabukwe, mu muco gwacu gwa kinyarwanda tugomba gutanga ibyo birago.

Mu muco nyarwanda wacu habagamo gushushanya ibintu nko gushushanya ibihanga by'abantu ukigana umutwe g'umuntu ukagushushanya, ugashushanya n' ukuguru k'umuntu ,ugashushanya nk'igice cy'umutwe cyose cangwa se ukamushushanya wese wese amaguru n'amaboko n'igihimba byose.

Umwami wicaye ku ntebe ye ufite n'inkono y'itabi atekera. Kera abami babaga ari abayobozi b'abakuru. Ni nk'umukuru w'igihugu kuri ubu, ariko kera babaga ari abami. Iyo wabaga wakoze amakosa bakujyanaga ibwami bakaguhana.

Mu muco gwacu, habagaho intore zihamirizaga, iyo habaye nk'ibirori nko kwizihiza nk'umunsi gw'intwari, intore zirahamirizaga, zibaga zambaye umushanana, abagore bambaye imishanana n'abakobwa, n'abagabo bafite amacumu, bafite n'imiheto, iyo bari kubyina bakoreshaga ibikoresho bitandukanye, abagore bagakoresha ibyibo babyikoreye.

Umuco wacu wa kinyarwanda tugiramo ibikoresho bya kera: imitako ya kera dutaka mu nzu, iz'ababyinnyi bakoresha bari kubyina b'intore, mu buyobozi bw'u Rwanda habamo imitako ya kera habamo, ibicuma , tugashyiramo n'ibindi bikoresho dukoresha bya kera.

Iwacu twagikaga n'imitiba; izo mitiba zikajamo inzuki ,inzuki zikaza zirashiramo ubuki ,ubuki turabuhakuraga tukabugurisha bakaduha amafaranga menshi tukagura ibyo dukeneye tukiteza imbere, kugira ngo tugire ubuzima bwiza n'ubwo buki tukaza turaburyaho kugira ngo natwe tugire intungamubiri mu mubiri gwacu.

Uruhurirane rw'abantu benshi bagiye ahantu hari ibyatsi byinshi bitandukanye hari ibiti , hakabaho ibiti by'amoko menshi ,harimo abazungu, hakabamo abayobozi abo bose bakaba baje kureba ibyo byatsi bakareba n'ibyo biti, bagakora n'umuganda kugira ngo ibyo biti babikorere bimere neza.

Ababyinnyi babyina bikoreye ibiseke, bambaye imishanana n'amayogi, mu muco nyarwanda habamo ku byina, bambaye iyi myenda y'abangaba bambaye.

Umuco nyarwanda habagamo kwiyerekana, nk'abazi gusimbuka imigozi bakazisimbuka, abasimbukaga urukiramende bakarusimbuka, abazi kurasa imyambi n'amacumu nabyo bakabikora, ibyo bigatuma u Rwanda rwarashoboraga kwirinda.

Duteraga imbuto twatera izo mbuto tukamenaho itazi kugira ngo iryo tazi rizifashe kuzamuka neza. Ntibitworoheraga kuko itazi turibonaga iyo twacanye, kuko tuba twacanye ku nkwi tukarifumbiza, ryo ribaga ari ifumbire kandi ryiza cane.

kera ino aha iwacu habagaho imitiba zo bahunikagamo imyaka, izo mitiba zabaga zitwaye nk'ibibindi ariko ziboshe mu byatsi, babaga barazisakariye bakagenda barasukamo imyakaa, bagasukamo bikuzura barangiza bagatwikira hejuru.

Ingobyi za kera bahegagamo abantu bakabajana kwa muganga, ibitebo abantu babyikoreragamo amavumbire bakabijana mu murima, iyo wikoreye igitebo mo ifumbire, ntabwo ifumbire rigendaga rigushongokaho iyo harimo igihe cy'imvura, ubwo rero n'amasuka bagajanaga guhinga, kugira ngo batere imyaka barangize bagifumbi.

Abagabo n'abasore bari kurasa imyambi. Mu muco nyarwanda gwa kera, habagaho abasore bajaga ibwami bakaja ku rugamba, bakoreshaga imyambi n'imiheto mu kugwanya umwanzi.

Iyo dusaruye ibishimbo turabigosoraga kugira ngo dukuremo ibikumbi tubibike bimeze neza, tukabishongora, ibikumbi ku ruhande n'ibishimbo ku ruhande. Dufataga ibyo bishimbo tukabibika neza kugira ngo bitazangirika.

Umuco gwacu gwa kinyarwanda habagamo ibikoresho bya kinyarwanda nk'ibicuma, ibibindi. Ibibindi babyengeragamo inzoga, bakabishiramo n'ibishimbo, bahunikagamo bamwe. Nk'ibicuma banyweragamo abasaza inzoga, kuko zibaga ziryoshe bari kunywesha ugo museke gwabo, nibyo babaga baramenyereye kuva hambere.

Mu bikoresho dukoresha mu rugo habamo imyuko n'uduhigikizo. Imyunyoko tuyikoresha mu guteka umutsima tugateka n'igikoma kugira ngo idufashe kubivanga neza. Umutsima udafite umwuka ntabwo wawuteka utekeshaumwuko, n'imboga iyo uzitetse ufata akuko kaba gasukuye ukagenda urumva ko imboga zihiye.

Mu gutunganya ibihingwa tweza dukoresha intara. Tukagosora ibishyimbo, amasaka, amajeri cyangwa amashaza n'ibindi bihingwa harimo n'ingano.

Amasaka umuntu uri kuyagosora. Duhinga amasaka tukayasarura, tukayagosora, tukayabika neza kugira ngo tuzayajyane ku isoko, tuyagurishe tubonemo amafaranga, tugure n'ibindi dukeneye, twishyurire abana ishuri, twiteze imbere.

Umuco gwacu gwa kinyarwanda, abasaza bagiye nko mu bukwe n'abasore baherekeje umusore, bambaraga imikenyero bagafata n'inkoni, n'umukobwa abaga yambaye imikenyero. Tujaga no gusura inzu ndangamurage y'Igihugu, tugasangamo ibikoresho bya kera nk'ibyo babugurizagamo, tugasangamo n'ibyibo, tugasangamo n'ibisabo.

Umuco gwacu gwa kinyarwanda abageni bakoraga ubukwe bambaye imikenyerero, bambaye n'inigi mu zosi, bambaye n'utuntu bambaraga mu mutwe tumeze nk'ingori. Abasore na bo babaga bambaye inigi mu zosi, bambaye na bo imikenyero, bambaye na sandare bafite n'inkoni. Bibaga ari byiza cane kuko ubwo bukwe bw'abageni babaga bambaye neza umuco gwa kinyarwanda.

Umuco gwacu gwa kinyarwanda, habagaho intore zihamirizaga, iyo habaye ibirori by'Igihugu nko kwizihiza umunsi gw'intwari, habagaho intore zihamirizaga, zibaga zambaye amayugi zifite n'amacumu zifite n'imiheto, zibaga zambaye n'ibintu bibaga barabikoze mu byatsi byitwa imigwegwe kugira ngo zibashe kubyina neza.

Abantu benshi bagiye mu nama, mu muco gwacu habagaho inama zihuje abaturage n'abayobozi. Abaturage ba kera bajaga mu nama bambaye bikwije, bijanye n'imyenda za kinyarwanda n'imikenyero z'abakecuru habamo n'ingofero z'abasaza batega amatwi ibyo barabwirwa.

Inaha iwacu mu Rwanda tugiraga ibigo byigishaga abanyeshuri umuco nyagwanda cyane cyane nko gushushanya imishushanyirize y'ibya kera, gushushanya ibyibo no kubiboha, gushushanya intara, tugashushanya n'ibiseke, tugashushanya n'imitako zigezweho, ariko ziganjemo umuco nyagwanda n'ubwo zibaga zigezweho.

Umuco wacu gwa kera bambaraga impu. Izo mpu barazishishuraga ku biti cyane cyane nk'ibiti by'umuvumu, bamara kuzishishura bakazikora ukuntu ba zikanaga. Bakazanika zamara guhonga bakazambara. Abagabo bambaraga impu, n'abagore bakambara impuza, kugira ngo umuco gwabo gugende neza, ariko ubu twambararaga twebwe imyenda.

Umuco wacu winaha ngaha rero twe turambara tukikwiza. Twambaraga imyenda myiza igeze ku maguru, twamba ingutiya, tukambara ibiteyiteyi bigeze hasi, ntabwo twambara nk'abazungu, twe turambara tukikwiza, tugasa neza.

Mu muco Wacu wa kinyarwanda iyo abantu barwaye babahekaga mu ngobyi. Izo ngobyi ni ikintu babaga baraboshye n'ibyatsi bya kinyarwanda bagashiramo ikirago bakamurambikamo, abagabo bane babiri mu mijyishi y'imbere, abandi babiri inyuma, bakamujyana kwa muganga. Ariko ubungubu uburyo bugezweho ntabwo bagitwara abantu muri iyo mijishi y'ingobyi, tujyana abantu kuri moto cyangwa tugatega imodoka.

Ibiryo bya kinyarwanda habamo Ibijumba, ibirayi, ibishyimbo, ibitoki, ibihaza. Abaturage turateka tukarira ku nkoko, tukarira no ku ntara, tukumva twishimye kubera biri mu muco wa kinyarwanda. Iyo turi gusangirira hamwe, nk'iyo habayeho nk'umuganura, dusangirira ku nkoko.

Iwacu twagiraga umuco n'ubu guracahari ntabwo guracika, abakera batwigishije kuza turavuza iningiri tukavuza n' ingoma, ibyo bikorwa byose bikoraga bikorwaga mu muco gwacu gwa kinyarwanda, abazungu bakaza bareba ibyo turi gukora bakabyishimira nabo bakabyiga bakazaja barabikoraha iwabo.

Umurya ngw'inanga gura ryohaga. Nk'umuntu ufite gitari yagereranya umurya ngw 'inanga akareba ko guhuje na gitari. Tugacuranga, tukabyina mu gitaramo turi n'ababyeyi, n'abasaza tukishima turi mu rugo tukanezererwa.

Mu buhinzi harimo guhinga nk'ibigori ducaga ibyobo tugateramo imbuto ,umukobwa ariguca ibyobo, intama zirikurisha impande yo mu rugo, araca ibyobo ashiramo imbuto ashiremo ifumbire, ashobora kuba agiye guteramo ibigori.

Ikigage, ubushera tunyweraga mu ruho, tukanywera mu bikosi, tugatumira inshuti n'abavandimwe, tugakoresha igitaramo, tukanywera ahantu mu gacaca, buriwe akanwa akizihirwa.

Mu Rwanda rwo hambere rwacu habagaho impu bambaraga. Abagabo barazambaraga, abagore bakambara impuzu. Abana ntago bambaraga impu, zambaraga abamaze kugira imyaka nka cumi n'umunane kuko abana bo bambaraga ubusa nta kintu bambararaga, gwari umuco gwa kera go hambere ariko nta bikibaho twambaraga imyenda twese.

Hano iwacu tugira ibikoresho byitwa isekuru. Isekuru tuyikoresha iyo turi gusekura isombe, tukayikoresha turi gusekura ubunyobwa, tukayikoresha turi gusekura indagara kugira ngo idufashe mu kuzitunganya tukaziteka. Icyo bidufasha ni uko tuba dufite icyo gikoresho igihe ku isaha ku isaha tugishaka gukora ubwo buryo bwo gusekura isombe tukacyifashisha.

Mu muco wa kinyarwanda habamo ababyinnyi b'imbyino gakondo, babyina bakoresheje amacumu, babyina bakoresheje ibyibo, bambaye imishanana, bambaye n'amayogi mu bitaramo, iyo habaye nk'ibirori cyangwa se habaye n'ubukwe.

Imbyino gakondo zidufashaga kudacika ku' muco wacu tukagusigasira, Nk'ababyinnyi babyina bambaye imishanana, bakabyina bafite inkoko, bafite ibibindi, bafite ibyibo, kugira ngo turusheho gusigasira ibya kera by'abakurambere ba cu.

Mu Rwanda tugiraga ahantu hitwa mu Rukari. Ni kunzu ndangamurage y'igihugu. Abashaka gushaka kuhasura gamo ibikoresho bya gakondo byakera: inzuho, ibicuma, ibibindi, ibyo byose abashaka kubireba bajagayo bakabireba.

Umuco gwacu gwa kinyagwanda habagamo intore zirabyinaga, zifite amacumu zambaye amayugi zigahamiriza, n'abagore bambaye ibikenyero nabo bambaye n'amayugi bagahamiriza, iyo habaye nk'ibirori by'igihugu habaye umunsi mukuru gwa leta bazaga kubyina.

Mu muco wa kera, abagore bahekaga abana babo bambaye imishanana, bambaye imikenyero igezweho, yo mu bushobozi bwabo ariko abana babo bakaba babaga bambaye n'ubusa. Muco wacu rero wa kera, ntabwo abantu bambaraga n'inkweto, inkweto zambaraga abayobozi gusa. Ariko ubungubu twambara inkweto abana na bo bakambara inkweto, bajya ku ishuri bose, abana ...

Amashanyarazi atuma tumurikirwa tukagera ku iterambere, tugakora ibikorwa amasaha makumyabiri ane kuri makumyabiri n'ane kuko habagaho n'abatekinisiye babikoraga iyo byapfuye. Ntabwo tuburaga umuriro ni ukubahamagara bakaza bakongera bakabyesitara.

Raronji idufashaga gucomekaho amatelefone gatandukanye, iyo ufite na televiziyo ucomekagaho televiziyo, ugacomekaho n'imashini y'akazi iyo ufite akazi, ugakoreraho akazi, ugakora ibikorwa byinshi bitandukanye wacometse kuri raronji imwe aho gucomeka kuri prize sharijeri imwe gusa.

Amashanyarazi atumaga tugira ikoranabuhanga, tugacagingaho telefone, tugacagingaho televiziyo, tugacagingaho ibikoresho bitandukanye, dushyiraho n'amaketo iyo twayaguze, tugashyushya n'amazi, kugira ngo dukarabe amazi ashyushe cyangwa no kuyanywa.

Leta yadushiriyeho amashanyarazi ubu turacanaga mu ngo zose habaga harimo mashanyarazi ago mashanyarazi habaga hari amatara gakaga iyo itara ripfuye ujaga kugura irindi tara ukarishira mu nzu ,aho ryari riri ukarisimbuza irindi ryapfuye warikuyemo. Ntago tugiraga umwijima abana barigaga gukora amatide bagasubira mu masomo bakagira amanota meza mu ishuri.

Tiransifoma ni ikintu kigaburira abantu amashanyarazi hirya no hino, haba hari insinga nyinshi zitandukanye zigaburira abantu, niho abantu benshi bafatira amashanyarazi, iyo habaye ikibazo muri tiransifoma abashinzwe iby'amashanyarazi nibo baza kubyirebera, nta muntu uba wamerewe kuhegera.

Gikwirakwizaga amashanyarazi hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturage tubone umuriro, hakabaho n'ibyuma byitwa taransifoma ari byo leta ishiraga nko mu murenge icyo cyuma kitwa taransifoma kigagaburira nk'umurenge gwose, icyuma mu murenge zose bibagamo kugira ngo bigaburira abantu amashanyarazi bikadukwizakwiza twese tugacanira.

Mu mashanyarazi habagamo ibikoresho bitandukanye, ibyo bakoreshaga iyo bari gutanga umuriro ku baturage. Hari za cashipawa zibaga ziri ku mazu, zifasha abantu kumenya umuriro gubafite mo no kumenya ko bagomba ku kugura gundi muriro.

Amashanyarazi gatugiriraga akamaro gakaducanira tugakora akazi amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane, abacuruzi ba butike baracuruzaga bagataha igihe bashakiye, kubera ko habaga hari kubona, abacuruzi baba mu masoko n'abo baracuruzaga bagataha bwije kubera ko habaga hari kurebeka.

Gukora amashanyarazi bashiragaho ahantu hameze nk'ipoto ariko naribaga ari ipoto ahantu hitwa taransifoma. Ni ahantu hahuriraraga insinga nyinshi cane, zibaga zigaburiraga amashanyarazi abantu benshi nk'umurenge gose gubaga gufatiyeho amashanyarazi. Ubwo ng'ubwo nta bantu bapfaga kuhacokoza cangwa ngo bahegere, kuko leta ibaga yarerekanye yuko bibujijwe kuhegera.

Urusengero ruri mu nyubako za Leta, tujaga gusengayo bityo tukumva ijambo ry'Imana, tugatanga n'amaturo bwo gushimira Imana, twiragiza n'Imana ngo idufashe mu buzima bwacu.

Leta yubakaga inyubako zitandukanye zo gukoreramo nk'ibiro by'intara ,ibiro by'umurenge leta ibaga yarabyubatse ,amashuri, amavuriro leta ibyubakaga mu mafaranga tubaga twaratanzemo imisoro, kuko abaturage nitwe bukungu bw'igihugu kandi tukubaka vuba.

Ubuyobozi bwa leta bugira ahantu hari ibiro, nk'abantu bajya kureba, bazajye kubapimira ubutaka bwabo iyo babuguze, kugira ngo buri wese amenye ubutaka bwe uko bugura, uko bungana, uko bugura, ukaba ufite icyangombwa cyabwo, kugira ngo bahapime uko hangana, naho ikacyajyana icyangombwa cyaho baguhaye.

Bubaka inyubako zigezweho zo gucururizamo, abantu bafite amafaranga menshi bakajya gufata imiryango bagacuruzamo ibicuruzwa bitandukanye, noneho n'abamotari nabo bakabona akazi ko kujya baratwara abantu baje , gucuruza muri ayo masoko, bakaza no guhahiramo, abaje bakabatwara bakajyanayo n'abavuye guhaha.

Inyubako za leta habagamo ibiibikorwa bitandukanye nko gutanga serivisi z'ubuvuzi, batanga serivisi z'ubutaka, uko umurenge utanga serivisi zo kwandikisha abana, kubaruza ubutaka bwacu. Habaga hariyo n'amashanyarazi kugira ngo bakoreshe ikoranabuhanga rya kompiyuta.

Leta idufashaga kutwubakira ibiraro. Nk'ahantu habaga haracitse nk'inkangu, imihanda zarasibamye, katwubakira ibiraro tukanyuraho. Imodoka zikaza ziranyuraho; nabandi bakaza banyuzaho moto zabo. Ntabwo tuburaraga aho kunyura ngo ni uko imihanda zacitse batwubakiraga ibiraro.

Uruja n'uruza n'uruhurirane by'abantu bari kuja ku biro bya leta higanjemo:abagabo, n'abagore buri wese ajanye ibibazo bye n'ibyifuzo bye kugira ngo leta imukemurire ibibazo yagize, abayobozi babaga bahari batandukanye bafashaga abaturage gukemura ibibazo byabo.

Urusengero rwubatse ahantu heza, habaga hari ahantu hisanzuye, habaga umucaca, hakabaho n'ibiti, habaga hateye n'indabyo kugira hase neza. Habaga hubatse kugira ngo umwuka gwinjire mu nzu n'ugundi gusohoke, habaga harimo imyenge mu nsi y'amabati, kugira ngo ubuhumekero bw'abantu bugende...

Tujya ku biro by'umudugudu, tukajya ku kagari, tukajya ku murenge, haba hubatse hariho n'ibiti byo gutanga amahumbezi no kurwanya umuyaga waza ugatwara namabati, yo kunzu ziba zubatse, ziba zifite n'ibisenge bikomeye kugirango umuyaga nuza utabijyana.

Leta yegereje abaturage ubuvuzi habayo ibigo nderabuzima, bakabaho na za poste de sante, abantu bajya kwivuzayo bahabwa serivisi nziza, haba hari isuku hateye indabyo hasa neza, hari abashinzwe gukora isuku haba hari umuriro w'amashanyarazi haba hari n'amazi, iyo ugiye kwivuza nta kibazo ugira kuko haba hari ibintu byose n'imiti iba ihari, iyo babonye badafite imiti yo kuguha bagukorera transiferi ukajya ku...

Abasekirite bacungaga umutekano wo ku nyubako z'amabanki, ku nyubako zikorerwagamo ibikorwa bya leta nk'ahantu bakoreraga ibijanye n'ubuvuzi, kwa muganga ku bigo nderabuzima no mu bitaro bikuru.

Inyubako za leta zigiraga ibyapa bizirangaga kugira ngo n'abaturage bajajayo babone uko baharangisha bayoboze neza, habagaho n'imihanda zigezeyo kuko iyo umuntu agiye ku biro by'inzego za leta ntago agendaga nabi agendaga mu mihanda myiza.

Mu Rwanda haba inyubako za Leta zitandukanye, nk'ibitaro biba byubatse ari amayetaje agerekeranye. Nk'ibitaro bya Ruhengeri habayo amayetaje, habaho n'inyubako za etaje z'uturere. Izo nyubako zose za Leta zidufasha kubona serivisi nziza, buri muntu wese akajya gushakayo serivisi akeneye.

Inyubako iyo leta izikoreragamo, zibaga ziri ahantu heza kandi zubakiye, hariho n'umuriro gw'amashanyarazi, habaga hariho n'imihanda. Leta yakoze imihanda, kugira ngo abaturage boroherezwe ingendo zo kuza baraja gushaka amaserivise ku mazu ga leta. Ibikorwa remezo bya leta bibaga bihari, n'amashanyarazi gahari, n'imihanda za kaburimbo zibaga zihari.

Mu bikorwa bya Leta habamo amasitade yubatse n'aho bakorera inama, hakabamo inzibutso Igihugu cyubatse, bashyinguyemo abazize jenoside yakorewe Abatutsi, nta bwo ibikorwa bya Leta abaturage bemerewe kubigira uko bishakiye, kuko aba ari amakosa.

Twubakiwe imihanda myiza ya kaburimbo. Hari kaburimbo ziba ziri ahantu hatandukanye bifasha imodoka kugenda neza ntizigende zirapfa kenshi cyane. Iyo mihanda ituma n'abazungu na bo baza mu Rwanda bagashoramo imari, bakagura amamodoka bagakorera mu gihugu cyacu u Rwanda rukabona imisoro.

Inaha iwacu Leta yubaka ibikorwa bitandukanye nk'amashuri, amavuriro, iyo yubatse nk'ayo mashuri bashiraho ibigega byo gufata amazi ava ku mabati kugira amazi asanzwe ya robine nabura abanyeshuri babashe gukoresha ayo mu bigega bari gukora amasuku mu mashuri no gukora amasuku mu matuwarete kugira birinde indwara zitandukanye.

Abasirikare bacungira umutekano abantu bashinjzwe kurinda, n'abayobozi n'abaturage twese baducungira umutekano, bakarinda abakuru b'Igihugu, bakarinda abayobozi bo mu nzego zo hejuru, kugira ngo hatagira icyabatera, bakarinda n'imipaka y'Igihugu, bakarinda no ku mashyamba kugira ngo abanzi batinjira mu Gihugu cyacu.

Mu bikorwa remezo bya leta idukoreraga ibiraro nk' ahantu habaga hameze nabi ikiraro bakidukorera kikadufasha kwambukiranya umuhanda tugacaho neza tukaja turagenda tuyisanzuye n'abana bakahanyura ntakibazo.

Ibiro bya leta habaga aho kubika ibikoresho byo mu biro hakabaho udukoresho babikagamo impapuro, bakaturambikamo impapuro zikaguma zirambutse, kugira ngo batazinyanyangiza kandi ntabwo zipfaga no kubura aho bazishize kuko zibaga zirambuyemo neza.

Inyubako z'insengero zo mu Rwanda zibaga zigezweho, hari izibaga zubakishije amatafari gahiye izo ngizo nizo Leta ishakaga, habaga hariho urukarabiro, habaga hariho naho guparika amamodoka g'abantu baje kuri izo nsengero. Abakirisitu bakicara ku ntebe nziza, habaga harimo sima, hasa neza, bakaba ari benshi kandi bose bagakwirwa mwurwo rusengero.

Inaha iwacu leta yagiye kubakira amasoko, hari amasoko go gucururizamo ibiribwa bara gubakaga ,bakagasakara bagashiraho n'ibisima byo gucururizaho ,ntabwo abacuruzi bagicuruza bari kunyagirwa cyangwa ngo basakaze amahema ngo bari gucururizamo habagaho amasoko gubakiye go reta ibaga yarubatse.

Mu gihugu cacu, leta ishiraho gahunda yo kurema inama n' abaturage, abayobozi bakegera abaturage bagatanga ibitekerezo n' ibibazo byabo, mu byifuzo byabo kugira ngo leta ikemure ibibazo by' abaturage baba bafite, bityo imiyoborere y' igihugu yacu ikomeza kugenda neza.

Tujaga gusenga ku nsengero zitandukanye, insengero hariho:urw'abakatorike, hakabaho amadini gatandukanye, abakatorike ,y'abaporoso ,badeperi habagamo n'abantu benshi bajagayo kuko buri wese ajaga mu idini ryo ashaka tukaja turaja gusenga tukayoboka imana.

Inaha iwacu mu Rwanda habagaho kaminuza zitandukanye, abanyeshuri barangije mu mashuri gisumbuye go mu wa gatandatu, bajaga gukomeza mu mashuri gisumbuye ga kaminuza. Abafite amanota gabemerera kwiga kaminuza bajyaga kwiga, ababonye buruse leta ikabatangira, ababaga batabonye buruse n'abafite ubushobozi baritangiraga bakiga.

Abantu benshi bakoreraga leta bagiraga naho kuryama; bakaryama ku bitanda na matela n'amashuka leta irabibahaga, kugira ngo boroherezwe ingendo z'ubungubu kuko amatike garahendaga bagakora bari kubayo wenda bagataha nko mu misi yo ku wa gatandatu.

Abayobozi bakoreshaga abaturage inama zitandukanye, inteko rusange y'abaturage hatangirwamo ibibazo abaturage bafite, bagatangiramo ibyifuzo bafite n'abayobozi bakabasha kubasobanurira ibibazo bafite n'ibyifuzo byabo kuko bigomba gushirwa mu bikorwa. Mu ngengo y'imari ya Leta hagomba kubamo inama n'abaturage bakagira ijambo mu miyoborere y'igihugu.

Abayobozi ba Leta, aho abayobozi ba Leta bakoreraga harangwaga n'imitako z'idarapo ry'igihugu zirimo amabara g'ubururu na ag'icyatsi na ag'umuhondo. Umuturage yaja mu biro asangamo abayobozi, abayobozi bakamwakira neza bumva icyifuzo cye n'ikibazo cye bakagikemura.

Inaha iwacu abayobozi baturemeshaga inama, habaga n'inteko rusange z'abaturage, tuzijagamo izo nteko rusange, abaturage dutangaga ibyifuzo byacu n'ibibazo byacu, abayobozi bakabidukemurira, kugira ngo u Rwanda rwacu rutere imbere n'umuturage agiragamo uruhare mu kuyobora igihugu cyacu, iyo yatanze ibitekerezo.

Ubuyobozi bwacu ni ukwegera abaturage. Bazaga kuturemesha inama cane nko mu nteko z'abaturage, zakundaga kuba, habaga harimo abayobozi batandukanye, abaturage bagatanga ibibazo byabo, batangagaga n'byifuzo byabo kugira ngo leta irebe aho irahera irashira mu bikorwa iby'abaturage cane cane bakeneye.

Ingendo ziratworohera iyo dutezemo moto, dutega moto tukajya mu mujyi, tukajya i kigali, tukajya no ku gisenyi, tugateza imbere n'igihugu, kugenda twicaye neza kuri moto, ntabwo tukigenda n'amaguma, ntabwo tugenda n'amaguru.

Iwacu tugiraga ubwoko butandukanye bw'amamodoka gadutwararaga, tujaga muri gare tugatega amamodoka gatandukanye cane cane nko nko muri gare z'i Kigali habagamo amamodoka gakozaga amakarita ku modoka, ntago bishuraga mu ntoki, n'aha iwacu ho rero dufite amabisi gatujanaga hari amanini, amatoya gatujanaga hirya no hino mu gihugu.

Inaha iwacu mu rwanda haje iterambere kuburyo n'abantu b'abagore n'abakobwa batwaraga amagare bagashiraho nk'ibyo bajanye ku isoko cangwa se ibyo bavuye guhaha nabo batwaraga amagare kuko habaga hari imihanda myiza zo kunyuramo ,ntabwo birirwaga baravunika ngo bari kwikorera ku mutwe babihekaga ku gare go babaga baraguze.

Urujya n'uruza rw'imodoka n'abantu , imodoka n'amamoto n'amagare. Abantu batega imodoka bagiye hirya no hino mu gihugu bava mu turere tumwe bajya mu tundi, bifasha abantu kugenda bihuse kandi ntabwo abantu babura imodoka zo gutega kuko ziba zihari zitandukanye.

Ibibuga by'indege byo mu Rwanda haba handitseho amagambo yerekana ko ariho ku bibuga by'indege. Bityo n'abazungu bagasoma. Aba ari indimi z' icyongereza. Abanyarwanda bakajyayo haba hariho n'iterambere ry'Igihugu n'aho baba berekeye.

Uruja n'uruza rw'amamodoka gari kuva muri gare n'agaba gari kuja muri gare, turategaga imodoka zitandukanye kuko u Rwanda rwashizeho uburyo busobanutse bw'amamodoka gahoragaho. Buri wese iyo akeneye kujya ahantu arategaga ntabwo tugendaga n'amaguru, dutega imodoka washaka kuja mu Mutara washaka kuja mu majyepfo, washaka kuja no ku Gisenyi, urategaga imodoka ukagerayo nta kibazo.

Imigenderanire y'imihanda habamo gare z'imodoka ziparikagamo, abagenzi bashaka kutegeramo imodoka zikabajana hirya no hino, aho baba bashaka kuja. Imodoka zibaga ari ubwoko bwinshi, nka Sitera, Interinasiyonari na Diferenti. Izo zose zatwaraga abagenzi, zikabajana hirya no hino hatandukanye mu gihugu.

Inaha iwacu mu Rwanda habaho amajanse menshi atandukanye atwara abagenzi aba muri gare. Afite amamodoka yabo yaditseho amazina yabo nk'aya Litoko, aya Interinasiyonali, aya Virunga. turatega iyotugiye ahantu hatandukanye buri mugenzi agatega bitewe n'aho agiye, n'u Rwanda rubona imisoro kubera ko ayo majanse atanga imisoro ku gihugu.

Ino aha iwacu habagaho ikoranabuhanga ry'imigenderanire y'uruja n'uruza rw'amamodoka n'abantu n'ibintu, kuko nk' i Kigali Nyabugogo habagamo amamodoka gabaga ganditseho aho gagiye, abantu bagategaga bakoresheje amakarita bakozagaho ku modoka, maze bakaja iyo bagiye. N'ino aha iwacu mu Musanze, naho habagaho izo modoka zo gukozaho amakarita tushiragamo amafaranga, tugakoza ku modoka tukaja iyo turaja.

Twateye imbere cane kuko habagamo amamoto gameze nk'amamodoka gakorerwaga mu gihugu, aga mamoto abantu bose baragatwaraga abakobwa abasore abagabo, gafashaga abantu gutwara ibintu kuko hajagamo ibintu byinshi ukabigeza iyo ugiye. Iyo waguze nk'intebe uterezaga iyo moto kuko iba imeze nk'imodoka, ikagutwaza ikakugeza mu rugo.

Mu Rwanda hajemo moto nabo bakoze tugendaga kuri moto zo mu Rwanda. Hicaragamo umuntu umwe ku ruhande, n'uyitwaye none ihozo moto zidufashaga kwikorera imizigo. Iyo uguze ibintu byinshi ugahamagara nki moto, ihitaga ibigutwaza ikakugeza aho ugiye, aho kuvunika ngo utege imodoka.

Mu bijanye n'ingendo dukoreshaga mu Rwanda, dukoreshaga n'ibibuga by'indege, hakagendamo abantu bagiye hanze mu bihugu bya kure, bajagamo bakoresheje ikoranabuhanga bakagenda. Ku bibuga by'indege noneho habagayo abasirikare n'abaporisi bacungaga umutekano gw'abantu, abavuye mu mahanga n'abari kuja mu mahanga.

Abacuruzi barangura ibyo gucuruza, bagatega n'amamoto, cyangwa amamodoka bakabibatwaza, bakabibagereza aho bacururiza. Ababibatwajije na bo babona amafaranga bakiteza imbere mu bundi buryo, cyane ko imihanda y'inaha myinshi irimo kaburimbo. Nta bwo bitugora.

Imodoka zidufashaga kugemura imisaruro zacu, iyo twejeje ibirayi turabipakizaga bakabijana i kigali, i kigali na bo bakabicuruza. Abatuyeyo bakabigura, twebwe turahingaga byakwera tukabipakiza, tugasigarana ibyo kurya. Tukongera tukagura imbuto tugahinga izindi myaka.

Mu Rwanda habagaho ibigo bidufashaga gucana amashanyarazi. Iyo amashanyarazi gatari gahagera habagaho nk'ibigo bita bibogisi. Ibyo bya bibogisi bizaniraga abantu imirasire z'izuba mu rugo, bakesitara y'amashanyarazi. Abakozi bazo rero baba bafite moto zo kugendaho, baje kwesitarira abaturage amashanyarazi mu rugo.

Abantu batwaye amagare. Amagare ganditseho Rwanda gashushanyijeho n'idarapo ry'u Rwanda. Amagare gafashaga abantu kugenda aho bagiye bakaja ahantu hatandukanye bari ku magare. Iyo waguze igare rigufashaa muri byinshi mu ngendo zawe zitandukanye.

Uruja n'uruza rw'imodoka zirimo abantu n'abantu bari kugenda n'amaguru.U Rwanda rwateye imbere kuko habaga imodoka nyinshi nta muntu ukibura uko agenda n'abantu bagendaga n'amaguru nabo nuko babaga bagiye ahantu ha hafi. Iyo umuntu agiye gutega agiye kure ntaburaga imodoka yo kugendamo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kujya gutega amamodoka harimo abayarimo n'abari kuyajyaymo. Muri urwo rujya n'uruza rw'abantu habamo n'abantu bafite ubumuga. Abo bantu bafite ubumuga barabafasha bakabageza muri iyo modoka bakayicaramo nk'abandi, bakagenda bakagera iyo bari kujya.

uruja n'uruza rw'abantu n'amamodoka bari kuja n'abari kuva muri gare bari kuja gutega n'abavuye gutega, dutegaga imodoka kuko ahantu hose tugendaga habaga hari imodoka zijagayo, turere twinshi tw'igihugu dutandukanye dutegaga akamodoka harimo za taransipoti zitwa intarinasinari, hakabamo za ritiko abagazitwa sharomu hakamo zitwa diferenti.

Ino aha iwacu mu Rwanda tugiraga amamodoka gatwaraga ibitaka iyo bari gukora imihanda zacu, ago mamodoka gitwa ibifuso, gatwaraga ibitaka gakaja kubimena ahabugenewe bari gusiza izo mihanda zacu, bitugirira akamaro cane kuko abantu babonagamo akazi nk'abashoferi babonaga akazi ko gutwara ago mamodoka nuko nabo bakiteza imbere.

Uruja n'uruza rw'imodoka ziri kuja muri gare, n'iziri kuva muri gare. Zibaga zigiye gutwara abantu babaga bari kuja hirya no hino hatandukanye mu gihugu. Nta muntu uburaga imodoka yo kumujana ahantu agiye, kuko habaga hari amoko menshi gatandukanye g' imodoka, ziri kwerekera hirya no hino mu gihugu. Urugero nka interinasiyonali ni ubwoko butwaraga abantu bw'imodoka, hakaba na diferenti na bwo ni ubwoko butwaraga abantu bw'imodoka, habaga harimo ajanse nyinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu batinda mu bwato, baca mu bwato bambaye amajire kugira ngo nibarohama babashe kubabona. Iyo abantu bagiye mu bwato bagera iyo bagiye amahoro kandi bakagerayo bihuse ntabwo abantu babura imodoka baburira ubwato abatuga...

Iwacu mu Rwanda habagaho ajanse zitwaraga abagenzi z'amamodoka, buri wese aho ari kuja hari uruja n'uruza rw'abantu abari gutega bagiye i Kigali , abari gutega bari kuvayo , muri kigali habagamo imodoka zijanaga abantu mu duce dutandukanye tw'umuji wa Kigali ntabwo gabaga gahenze amafaranga gabaga ari makeya kuko batangaga makeya bishuraga ku makarita ,bagakoza ku modoka.

Urujya n'uruza rw'abantu n'imodoka, biri kujya muri gare. Batega imodoka hirya no hino hatandukanye, bitewe n'imodoka iyo ari yo, zijya mu Gihugu uduce twinshi tw'Igihugu dutandukanye, n'abantu kandi baba bari kujya hirya no hino, bari no kuva hirya no hino, bagahurira muri gare kugira ngo ariho bategera.

Mu Rwanda habamo imodoka zitwara abantu n'ibintu. Izitwara ibintu zifasha u Rwanda nko mu gukora imihanda. Iyo hari imihanda itameze neza hifashishwa imodoka nini bakazijyanamo umucanga, bagashiramo n'amabuye bajya gukora imihanda batarashyimo kaburimbo. N'iyo bari gushyiramo kaburimbo na bwo batwara amabuye bagakora kaburimbo bifashishije izo modoka. Ni zo bariri gukoresha.

Hano iwacu habamo amasoko acuruza ibyo kurya nk'ibitoki, ibirayi abantu batuye kure y'amasoko bajya kurangura bakaza bagacururiza mu masantere dutuyemo, tukaza tuje guhahirayo. Byashira bakajya guhaha n'ibindi. Ntabwo tukibura ibyo kurya kuko mu masoko yo birimo n'abandi bashaka kubirangura, bakabicururiza muri butike bakabitwegereza.

Imikino za siporo zibaga zitandukanye: ukina basikete, ugakina futuboro, ugakina na tenisi bitumaga imitsi zirambuka umuntu akagira ubuzima bwiza umubiri gw'iwacu gugakora neza kubera ko tubaga twakoze siporo bituma natwe tumera neza.

Gukora siporo ni byiza cane kuko bitumaga umubiri gwacu gurambuka n'imitsi zikamera neza, ntago turwaragurikaga iyo dukoze siporo kuko iturindaga uburwayi, siporo ni ingirakamaro abazikoraga bagiraga ubuzima bwiza ,tugomba kuzaja turakora siporo tugashishikaza abatazikoraga bakaza barazikora.

Ibacu haba ibibuga byinshi bakiniragamo imipira, habaga imipira z'amaguru, za vore z'amaboko, hakabaho niza basiketiboro, tujaga kureba imipira kuri sitade tukicaramo tukogeza habagamo abakinnyi, b'abakobwa agakina ,n'abahungu twa siporone byiza cane kuko bituma umubiri gwacu gurambuka.

Dukina siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza, habaho n'imikino mpuzamahanga. Tugaseruka nk'urwanda tugakina hanze y'igihugu tukazana ibikosi, ibikosi iyo tubizanye igihugu cyacu tuba tugihesheje ishema ndetse n'imiryango yacu tukayihesha ishema, imikino ni myiza ituma igihugu gitera imbere n'abantu bagatera imbere.

Urwanda bubaka ibibu bakiniramo imipira, n'ikibuga bakiniraamo umupira w'amaguru, n'ibibuga bakiniramo umupira vore boro, abakinnyi bakajya kubikiniramo, biba ari ibyiza, birimo umucaca mwiza, byubakiye, bizitiriye, kugira ngo abakinnyi nibabikiniramo ntahagire ikibazo bagira, n'abafana nabo bari ahantu hasakaye.

Abantu bari gukina umukino wa siporo, bambaye n'imyenda ya siporo, bakina vore bagakina futu, ariko abandi bakina na basiketi bakina n'imigozi bakayisimbuka. Siporo ituma abantu bagira ubuzima bwiza, imitsi yabo igakora neza n'amaraso agatembera neza mu mubiri.

Muri siporo habamo imikino myinshi itandukanye, nk'imikino ya vorebore, imikino ya futuboro, n'imikino ya tenisi. Abakinnyi bayo bagira imibiri imeze neza, ntabwo bagira ibinure byinshi mu mubiri, ntabwo bakunda nokurwaragurika. Ni byiza kwitabira siporo bitumaga umuntu agira ubuzima bwiza.

Siporo habagamo ingeri nyinshi z'abantu bakoraga siporo. Abakobwa, abahungu, bajaga gukina imikino nk'imikino za voreboro , imikino za basiketiboro. Tukaja muri sitade tukajya ku bafana. Abatsinda bakishima, abatsindwa nabo bakazakosora ugundi mukino. Bityo rero, abantu bajyaga kureba umupira batahaga bishimye bari guseka.

Umugabo uri gukina umukino gwa tenisi. Umukino gwa tenisi gufashaga abantu gukora siporo, tukaja kureba abantu bari kugukina, natwe tukazagukina. Ababishoboye bajaga kugukina, n'abanyamahanga bakaza mu Gwanda gukina guwo mukino.

Umukino gw'amaguru gukinwagana n'amakipe abiri. Gamwe gabaga gambaye imyenda zitandukanye n' iyindi. bagatsindana bamwe bakajana mu mazamu go haraguru abandi mu mazamu go hepfo, imikino iyo ibaye bajaga gufana, abatsinze babahembaga ibikosi, abatsinzwe nabo bakihangana bagakomeza ubutaha bakagerageza.

Habagaho imikino zitandukanye za siporo, nko kwiruruka n'amaguru. Ugo mukino bagwitaga marato, murirukankaga babaga babahaye ibirometero ubwo uwabaye uwa mbere baramuhembaga. Biri mu bintu bidufasha gukora siporo neza tukagira umubiri gumeze neza, guzira kurwaragurika.

Gukora siporo ni ingirakamaro cyane, kuko bituma umubiri wacu umera neza. Hari nk'amakipe atandukanye tugira mu Rwanda, iyo bagiye hanze bagakinirayo, bazana ibikombe, igihugu cyacu kikishima, abayobozi bagashima abakinnyi, iyo bazanye ibikombe, kandi igihugu gihita kigira ibikorwa remezo, cyubaka.

Umugabo n'umukobwa bari gukora siporo, ahantu haba harabugenewe ho gukorera siporo. Bahateye umucaca wa kizungu. Baba barashyizeho siporo zitandukanye. Igororamubiri, gukina imipira y'amaguru, gukina vore. Abantu bakina imipira baba bari gukora siporo bakananura umubiri wabo.

Iyo habaye imokino mu Rwanda tujaga kureba tugafana buri wese agafana ikipe akundaga kugira ngo twishime tukaruhuka mu mutwe iyo habayemo imikino igihugu cy'Urwanda cyahuye n'ibihugu byo hanze dushobora gufana igihugu cyacu.

Mu bigo by'amashuri habagaho amarushanwa g'amakipe g'ikigo, bakinaga imikino zitandukanye bakinaga iz' amaguru, bagakina za vole, iyo habayeho imikino hazaga abayobozi barahemba ababaye aba mbere bakabaha imipira zo gukinisha ,bakabaha n'imyenda zo kwambara z'amateni go kwambara bari gukina.

Gukina umupira biri mu bintu bitumaga tugira ubuzima bwiza, tukarambura amaguru, tukiruka, tugakoresha umubiri, ababishoboye bagakina umupira, abandi bagakina izindi mikino zitandukanye, mu gukora siporo.

Siporo ni umukino gutumaga abantu bagira ubuzima bwiza, b' abahungu, abakobwa, abagabo, abagore, abana. Iyo uri gukina siporo wumvaga wishimye n'ikibazo ugiraga, umubiri gwawe gukuraga neza, ukagabanya ibiro byinshi, ukagabanya ibinure mu mubiri, ukabaho neza.

Muri siporo habagamo umukino witwa tenisi. Nk'uyu mukobwa ari gukina tenisi ari kunanura imitsi ze zo mu maboko n'izo mu maguru. Gukina tenisi ni byiza kuko bituma umuntu umubiri we gukora neza, akumva nta kibazo afite, nta kibazo tugira iyo turi gukina ugo mukino, ntabwo dukunda kurwaragurika.

Umukinnyi w'umukino wo gutwara amagare, ari gutwara igare. Habaho imikino yo gutwara amagare bari gukora siporo. Noneho iyo siporo iyo bayikoze baragenda bakajya ahantu henshi hatandukanye mu Gihugu bari gutwara amagare. Siporo ifasha abantu kurambura imitsi, kugira ubuzima bwiza.

Mu gihugu cyacu dukinaga siporo harimo futubolo, tugakina na vole, dukinaga n'agandi makipe gwo hanze y'igihugu twatsinda tugatahana ibikombe tugateze u Rwanda rwacu imbere, n'umuyobozi wacu akishima.

Imihanda zo mu midugudu, zidufashaga kugenderanira mu midugudu zitandukanye, ukava mu mudugudu ukaja mu gundi, waba ufite imodoka urayitwara nta kibazo, waba uveye ku rugendo, gatega moto nta kibazo, bazitugezaga mu rugo nta kibazo, kuko imihanda zibaga zikoze, zimeze neza.

Mu mudugudu habagamo imihanda zikadufasha kugenderana, tukagenda ku mamoto gakatugeza nko mu rugo tutagiye n'amaguru, ukaja mu rugo rw'umuturanyi uri kugenda neza, ntabyondo bikibaho ,ntabizenga.

Mu midugudu habagaho imihanda zihuje imidugudu zacu uvaga mu mudugudu uri kuja mugundi uri kugenda neza, imihanda zibaga zisa neza hari izibaga zirimo na kaburimbo, u Rwanda rwacu rwateye imbere kuko ubu ngubu iyo umuntu afite n'imodoka aza kugushura agaparika iwawe mu rugo nta kibazo.